Ndabona abantu babiri, umwe yagize impanuka, undi ari kumupfuka, baradukangurira kugira ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri twirinda sinamenye.

Ndabona umugore n'umugabo n'umwana, iyi shusho iradufasha kurinda ahazaza h'imiryango yacu. Twishinganisha ubwacu, dushinganisha inzu zacu, twishinganisha mu ngendo, no mu buzima bwacu.

Umubyeyi n'umwana basuye umurwayi kwa muganga, bigashishikariza kwivuza na radiyanti hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza ishema ry'umuryango.

Ikote ryiza cyane ryamabara abiri ubururu bwijimye n'umweru imbere harimo ishati nziza ifite ibara ry'ubururu barimanitse hanze ahagarara kugirango abaguzi baribone.

Ni imodoka ebyiri iy'umweru n'iy'umutuku yi'umweru ni nziza cyane iragaragaza purake, iy'umutuku yo ntigaragara neza purake na yo ntigaragara, ziparitse iruhande rw'ibiti byiza.

Hano ni muri banki irimo abantu batatu! babiri nibo bagaragara neza undi umwe ntagaragara hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru wambaye agapfukamunwa n'amataratara, undi nawe ari imbere ye yambaye agapfukamunwa ntagaragara neza mu maso biraboneka ko yaje kubikuza amafaranga.

Ikiganza cy'inzobe cyane gifite terefone kiri kutwereka uburyo bwo kwishyura bugezweho ,kiratwereka ko umukiriya ko yamaze kwishyura amadorari magana atatu na makumyabiri na atanu.

Iki ni icyemezo gitangwa na komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu kimara amezi atatu gusa nticyemewe gukoreshwa mu ihindanya ry'imitungo itimukanwa, cyatanzwe ku itariki ya cumi n'enye z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Iki ni icyemezo cyishyuriweho imisoro n'amahoro y'isuku rusange mu kwezi kwa mbere bibiri nacumi n'umunani ni icy'umukiriya witwa NGARI Hydropower rimitide (limited) amahoro n'imisoro byishyuwe byose bingana n'ibihumbi makumyabiri magana atatu.

Ibi ibiganza biratwereka amadorari y'amanyamerika n'andi madorari ntari kubona neza ariko umubare w'inote z'amadorari y'amanyamerika zirangana n'umubare w'inote zariya madorari yandi.

Iki ni icyapa cy'ihererekanya ry'amafaranga hakorehejwe buriya buryo bwanditse mu nyuguti nini, inyuma yacyo hari imodoka itukura, hirya gato hari umukobwa uri gutambuka n'amaguru, inyuma hari indi nzu y'umuhondo ihagazeho umuntu, ndetse n'imbere harimo abandi.

Hoteri nziza yubatse neza, ifite amarangi meza cyane, ikikijwe n'ubusitani buteyemo indabyo, iruhande rwayo hari agahanda gatambika kerekeza ku yindi nzu.

Uyu mukobwa ari gushishikariza abantu kugana ekwiti banke ko amarembo akinguye, ushaka kujyayo ukaka inguzanyo ukaba wagura ibintu byinshi mukwagura imishinga yawe.

Isoko rya Nyabugogo rishyashya ry'ubakishije amabati y'ubururu mu imbere harimo abantu batagaragara neza, imbere yaryo hari abantu bakeya bari kugenda abandi bahagaze ndetse n'imodoka y'umukara ku ruhande.

Akazu ka emutiyene gahagazeho abantu batatu umukobwa n'abagabo babiri; umukobwa n'umugabo umwe biragaragara ko bari kwaka ubufasha; undi mugabo uhagaze kuhande wambaye ipataro y'umweru n'ishati ari kwirebera hirya.

Hano ni ku kazu ka Emutiyene, harimo abantu babiri b'abazungu umugabo n'umugore, umugabo wambaye agapira k'umweru n'amataratara yambaye n'ikarita y'akazi, biragaragara ko ari gufasha uriya mugore.

Aka n’ akazu ka mtn, iruhande rwako hahagaze abasore batatu bambaye imipira yumuhondo n'ingofero z'umukara, hari icyapa cyanditseho ama uniti igihumbi, hariho udusengeri n'ingofero.

Ibi biganza bifite impapuro z'ubwishingizi bwo kwivuza, ku bakozi ba leta. Arimo arasuzuma niba izi mpapuro afite mu ntoki zihuye n'iriya karita yo kwivuza.

Ikigo nderabuzima cya Remera abantu bangana bagiye kwivuza, biragaragara ko nta barwayi benshi bahari, hari abantu batatu, hari babiri bicaye, hari n'undi umwe uhagaze, bashobora kuba bategereje kwinjira ngo bivuze icyangombwa imiti ngo batahe.